Ubusa ni ikintu cyiza cyane iyo uri ahantu hatuwe nuko hagomba kuba hari yahaye ibiti bitanga umuyaga, akayaga keza cyane ikindi kandi bigatuma wumva ugira umwuka mwiza aho uri abo muri kumwe mbega ukuntu ubayeho neza.

Mu gihe hariho izuba ryinshi wumva ushyushye cyane ushobora kuba uvuye muri siporo ushaka kuba wagenza urugendo runini cyane biba ngombwa rero yuko ufata amazi ugashyira mu kantu haba icupa habakira igikombe ukayimena mu maso ,mu mutwe wumva uruhutse neza bituma umubiri wongera kugarukamo imbaraga ukumva ufite uburyo ki noneho umeze neza.